Indabyo nyinshi zitondetse ku murongo z'amabara menshi atandukanye, ziri mu nzu y'ubuhinzi yifashishwa mu guhinga indabyo mu buryo bwa kijyambere.

Ikirambi cyo muri Parike harimo: ibyatsi bishaka kuma, harimo n'imparage n'ibiti. Ahantu harambuye cyane ho muri Parike.